Ikoranabuhanga ni ingenzi cyane. Ba data bakuze batazi amatelefone, none ubungubu, twabigishije gukoresha amasimatifoni. Umukecuru agira gutya agakozamo intoki, umva ni sawa cyane.

Imyuga kuri bose ee n'abakobwa basigaye biga kubaza! Ee! Kera ntango babyigaga. Abakobwa babaga barabaheje ngo ntango bakwiga ku ibintu byo kubaka, ibintu byo kubaza ngo ni iby'abagabo, ariko ubungubu umwuga kuri bose.